Ikigo cy'ubwishingizi cya radiyanti kerekana uko wakishyiriraho intego y'umwaka, wishingira ibintu byawe byose bikaba bifite umutekano, ukaba wababona kurubuga rwabo cyangwa ukabahamagara kuri nimero iri aho.

Abakozi bakora mu kigo gishizwe ubwishigizi mu Rwanda, mu gihe bari gufata ifoto, bishomira umusaruro babona.

Kugira abakozi bakunda umurimo kandi bindahemuka bigaragaza ko nawe ushobora kugera ku ntego zawe.

Icyapa cyerekana ko uhawe ikaze mu kigo gishinzwe ubwishingizi, ukaba usangamo ibintu bitandukanye, kandi ukaba wanababona kuri nimero cyangwa ku rubuga rwabo bugaragaraho.

Uburyo bworoshye kandi bwihuta bwashyizweho n'ikigo cy'itumanaho aricyo mtn ku buryo abaguzi cyangwa abakiriya babo baza bareba amafaranga basigaranye.

Umucuruzi ukora ubucuruzi bujyanye no gucuruza ibiryo bitandukanye haba ibyo kunywa, haba ibyo kwambara kandi mu gihe ari gucuruza akibuka gutanga inyishyu yuko yishyuye.

Isoko ricuruza ibijyanye n'imyenda by'umwihariko iy'abagabo ndetse n'iy'abagore ndetse n'iy'abana, ubwo bucuruzi bukaba ari ubucuruzi bunini cyane.

Imyenda myiza cyane y'abagore, ifite amabara meza cyane, ay'umutuku, ay'umukara, kandi bikaba biri ahantu hasa neza hizewe.

Abacuruzi batandukanye bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, haba abari kugurisha imisego haba abari kugurisha imyenda ijyanye n'amakanzu y'abadamu.

Icuruzwa biboneka ahantu hake harimo nk'amavuta yo kwisiga, amasabune, hamwe n'imibavu ihumura ishobora kuba igurwa ahantu hose utasanga ahandi.

Umucuruzi ari kwereka umuguzi ko ashobora kwishyura yikoresheje ikoranbuhanga, bikaba byamufasha mu kwihutisha iterambere, kandi urabona ko ari guseka.

Abacuruzi bacuruza ibintu bijyanye n'imyenda, cyane cyane iy'abagabo hakaba harimo, inkweto hamwe n'amashakoshi hamwe n'imikandara, ukaba wabasanga nko k'urubuga rwabo nk'uko rugaragara.

Iduka rinini rifite imyenda, cyane cyane iy'abagabo, ushobora gusangamo amakositime, ndetse n'inkweto zijyanye n'imyenda waguzi.

Ibicuruzwa birimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hakaba habonekamo nk'imitako ushobora gushyira mu nzu yawe ndetse n'imyambaro igiye itandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye cyane cyane ibijyanye n'ibitenge, hakaba harimo imitaka ikozwe mu bi bitenge, ndetse n'imyenda myiza cyane hamwe n'amakanzu.

Iduka rigurishirizwamo imyenda, inkweto, amasakoshi mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho bwizewe kandi butuma ugura aba yizewe ibicuruzwa aguzi.

Umucuruzi uri gucuruza ibijyanye n'imyambaro, cyangwa ibikoresho bya erekitoroniki harimo nk'amasaha, cyangwa inkweto zo kwambara, ndetse n'iz'abagore n'amashakoshi.

Ubucuruzi bw'inkweto nziza kandi zikomeye z'abagore zikaba ziri mu moko menshi atandukanye, ukaba wasangamo n'amabara menshi meza.

Ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'imyenda yabategarugori hakaba harimo ibitenge byiza kandi bisa neza mu mabara yose agiye atandukanye.

ubucuruzi bucuruza ibikinisho by'abana bigiye bitandukanye mungeri z'abana bakiri batoya, kandi ukabisanga kugiciro gihendutse cyane.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane imyenda y'abana bakiri batoya ndetse n'iy'abantu bakuru kandi ukahasangamo n'inkweto nziza z'abantu bakuru n'abana.

Umunyamahirwe ubashije kwegukana ikinyabiziga, akaba agitsindiye mu marushanwa yabaye y'ikigo gishinzwe Akagera moto.

Umukiriya wifuza kuba yahindurira irange imodoka yiwe akaba abyifashishijwemo n'ikigo runaka, cyangwa umuntu runaka wikorera ku giti cye.

Ikigo gishinzwe kugurisha cyangwa kugura imodoka mu Rwanda, kikaba kifashishwa mu kutumiza ibinyabiziga bivuye hanze cyangwa mu bindi bihugu.

Ikigo gishinzwe kwita ku bijyanye n'ibinyabiziga bivuye mu bihugu byo hanze, biza mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda, ukaba wabasaba ko waguteranyiriza icyo kinyabiziga cyawe.

Imodoka ziri kw' isoko, zikaba zigurishwa, Kandi zigakodeshwa mugihe ukeneye kuba wagira ahantu runaka utemberera, uri kumwe n' abawe n' umuryango.

Iri ni duka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo hari umufatabuguzi ushaka ubufasha mu bijyanye no kwakira, kohereza amafaranga, kuyabitsa cyangwa kuyabikuza cyangwa se no kwishyura ibyo yaguze cyangwa no kugura amayinite, kugura umuriro n'ibintu byinshi bitandukanye uyu muntu yamufasha.

Amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu akaba afite ikirangantego hagati hakaba hariho agaseke akaba asohowe vuba mu Rwanda.

Ifaranga ryifashishwa mukuba ryagura ikintu runaka iryo faranga rikaba ryarakozwe mubihumbi bibiri na cumi na rimwe, akaba ari igiceri gitoya murwanda wahasanga.

Icyo kunywa cyoroheje kandi kihuta, amata ushobora kuyanywa mu gitondo, saa sita cyangwa nimugoroba mugihe udafite ibyo kurya hafi yawe.

Ibyo kurya byoroshye umuntu ashobora gufata mugitondo mugihe atararya ibiryo Kandi ibi byo kurya bikaba bikorwa mu ifu yitwa ifarine.

Abana bakiri batoya bari gufatira hamwe amafunguro, hakaba harimo amata akaba ari meza cyane ku bana bakiri batoya, bakaba bari kurya n'umugati mwiza cyane.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amata hakaba harangwa n'isuku mu gihe hari igihe hasa nabi, bakaba bahakura imyanda, kandi amata aba asukuye neza.

Ahantu heza ushobora gufatira icyo kunywa cyawe mu gihe cya mugitondo urugero nk'amata cyangwa amazi hakaba hasa neza harangwa n'isuku.

Amata yo kunywa akaba ari ahantu hasukuye kandi hasa neza, abagiye kuyafata cyangwa abagiye kuba bayagura bakabasha kuyagura agifite umwimerere wayo.

Ibyo kurya byoroheje biryoha kandi bikundwa na buri muntu wese bikaba wabifata mu gitondo cyangwa ni mugoroba bikaba bikorwa mu ifu y'ifarini.

Ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'ibyo kurya byoroheje, hakaba harimo amandazi ndetse n'imigati n'amata, bakaba bafite icyuma cyifashisha mu gutunganya amata akagumana umwimerere kugira ngo adapfa.

Icyuma gifasha gusukura amata, mu buryo bworoshye kandi bwihuse, kikaba gishyirwamo litiro nyinshi cyane z'amata.

Icyapa cyerekana ko aho hafi hari ubucuruzi bujyanye no kuba wabona ibyo kurya byihuse cyangwa ibyo kunywa byihuse harimo nk'amata ndetse n'amazi.

Umuguzi uje kugura ibyo kurya cyangwa amafunguro yoroheje ashobora kwifashisha mugitondo mu gihe atabonye, ibiryo hakaba harimo amandazi ndetse n'amata n'imigati.

Icyuma gifasha amata mu kuba cyayasukura, cyakomeza kubikamo ubukonje, kugira ngo abari buyanywe cyangwa abari buyateke, akomeze kugumana umwimerere wayo.

Ibicuba bibikwamo amata kugira ngo atangirika mu gihe agiye gushyikirizwa abayakeneye cyangwa agiye kuba yagurishwa akaba akomeza kugumana ubuziranenge bwayo.

Ibyo kurya byo kwifashisha mugihe hatabonetse ibiryo byihuse vuba, ibyo biryo bikaba byifashishwa nko mu gitondo, saa sita na ni mugoroba kandi akaba ari amafunguro yohere yoroheje cyane.

Icyo kurya cyifashsihwa mu koroshya amafunguro, tukaba twabisanga nko mu mafarini, amafarini kandi akaba nayo ava mu bintu byitwa ingano.

Ubucuruzi burimo nko kuba wabona ibyo kunywa bipfundikiye, nk'amazi hamwe n'amata, kandi bikaba biteguwe neza kuko habonekamo ibyansi bikozwe mu biti.

Icyapa kerekana ko aho hano hakorerwa ubucuruzi bw'amata, bikaba byorohera abantu kuba bakwisanga aho hantu mu buryo bworoshye.

Udukoresho twifashishwa gukura imyenda mu menyo, utwo dukoresho tukaba dukozwe mu bwoko bw'ibiti.

Icyuma gitunganya amata kigatuma aguma ameze neza, akonje kuburyo adashobora gupfa mugihe hategerejwe abaguzi baza kuyagura.

Icyo kunywa cyoroshye kandi cyoroheye kuba wakibona, amata, akaba yifashishwa mu gitondo, ukaba wayanywa ubyutse, ugiye kuryama, kandi bikakorohera mu kuba wafata amafunguro yoroheje.

Uburyo bwiza Kandi bworoshye ikigo k'itumanaho aricyo emutiyeni cyashyizeho kugirango abaza bagana iri shami bage babashwa koroherezwa babishyire muri telefone ngendanwa zabo.

Uburyo bwo kuzuza umwirondoro wawe kugira ngo ubashe kwinjira ku rubuga rugufasha kuba wakwishyura uburyo bworoshye, ukaba ushyiramo amazina n'aho utuye ndetse n'umubare w'ibanga.

Uburyo bwashyizweho n'itumanaho ry'ikigo cya mtn kugira ngo gifashe abacuruzi mu kuba bakwigurira amafaranga, bakwigurira amayinite, bakaba banakwishyura ibintu mu buryo bworoheje.

Uko wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga mu gihe ugiye guhitamo ibijyanye nuko wareba amafaranga asigaye cyangwa ibyo wakoresheje kuri konte yawe.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe, ushobora kwifashisha uri kuzuza cyangwa uri kwishyura ahantu hagiye hatandukanye, iyi akaba ari urupapuro rugaragaza uko wabikora.

Uburyo bwiza kandi bwihuta bunemewe bwo kwishyura amafaranga ukoresheje ubu buryo bikaba bifasha umuguzi cyangwa umugurisha kuba yamugeraho vuba.

Uburyo bworoshye cyane bw'ikoranabuhanga ushobora kwifashisha mu kugura cyangwa kugurisha ibintu runaka byihuse kandi byoroshye.

Itumanaho rya eyeteri rwerekana ko gukoresha serivise zabo byoroshye kandi bikaba byizewe.

Uburyo bwizewe kandi bwihuse, mugihe ugiye kuba wakohereza amafaranga runaka, mu gihugu kindi, bikaba byorohereza umuntu, mu koherereza cyangwa kohererezwa amafaranga.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro igaragaza ibyishyuwe cyangwa amadeni ibikorwa byawe byaba bifite muri leta.

Amafaranga akoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye, akaba akoreshwa mu bintu na byo bitandukanye kandi afite agaciro kari hejuru kurusha amafaranga dukoresha mu Rwanda.

Aho bafashiriza abantu mu kuba bagurana amafaranga, ava mu manyamahanga, aza mu mafaranga y'u Rwanda, ibyo rero bika byorohereza buri muntu wese.

Icyapa kigaragaza ko hafi aho hakorerwa ubucuruzi bwo guhererekanya amafaranga avuye mu kindi gihugu akaza mu gihugu cy'u Rwanda.

Icyapa kigaragaza ko hafi ahongaho hakorerwa ubucuruzi bwo kuba bwahindura amafaranga, buyavanye mu mafaranga y'abanyamahanga, buyashyira mu Rwanda.

Icyapa kigaragaza ko hafi aho ngaho hari ubucuruzi buvunjisha amafaranga buyakura mumanyarwanda, buyashyira mumafaranga yabanyamahanga Kandi ubwo bucuruzi bworohera abaza babagana.

ahatangirwa ubufasha mu kwakira, kohereza, kubika, kubikura amafaranga avuye mu kindi gihugu gitandukanye nicyo urimo.

Imeza nziza cyane ikomeye kandi ikaba ikoze mu biti, ikaba ifite intebe zayo ku ruhande zigera muri eshanu.

Ibikoresho byo mu rugo twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, hakaba harimo ameza, utubati n'intebe zo kwicaraho.

Intebe nziza esheshatu, ndetse n'ameza yazo, zikaba zikozwe mu giti, zikaba zishobora gushyirwa ahantu mu nzu, ndetse n'aho ushobora gufatira amafunguro yawe.

Akabati keza kifashishwa mu kubika ibintu cyangwa utuntu dutoduto kakaba gakoze neza mu bwoko bw'ibiti dusanzwe tuzi.

Intebe ndetse n'imeza byazo biri kumwe n'imisego, zikaba zisa neza kandi zifite amabara meza, zikaba zimaze gukorwa kandi zikifashishwa mu kuba zajya mu ruganda.

Intebe nziza zo mu ruganiriro zikaba zifite ameza yazo kandi zikaba zifashishwa mu gihe hari abantu bakaba bazifashisha mu gihe bari gufata amafunguro yoroheje no kuba basangira n'inshuti n'umuryango.

Intebe nziza cyane zikozwe mu byuma zo mu ruganiriro zifite amabara meza kandi atandukanye ku buryo bugaragarira neza ababibona.

Icyumba cyo kuraramo kirimo uburiri bwo kuryamaho bwiza, kandi bugaragara neza. Hakaba hariho amashuka yo kwiyorosa mu gihe ukeneye kuyahindura ushyira ahandi.

Ubucuruzi bw'imbaho bufasha buri muntu wese mu kuba yakora ikintu yifuza cyangwa ashaka agikuye muri ubwo bugeni.

Ubucuruzi bucuruza intebe nziza kandi zikomeye zikaba zikorwa mu biti no mu misego, ubwo bucuruzi bukaba bwizewe kandi bunahendutse.

Ameza asa neza, ari mu ruganiriro, ari kumwe n'imitako myiza, ari kumwe n'uturabo dusa neza, akaba yifashishwa mu kuba abantu bayakoreraho cyangwa bakayariraraho.

Imeza ikomeye cyane ikoranywe ubuhanga bwinshi cyane ikaba ikoreshejwe ibiti bikomeye hamwe n'ibyuma mu mpande zigiye zitandukanye.

Amacumbi meza cyane mugihe abagize igihugu cyangwa abakerarugendo baje bagana hano hakaba ari ahantu heza hari ubusitani bwiza cyane.

Umuntu ufite mikoro inyuma ye haritete irimo abantu, n'abayobozi ari kubwira abaturage bariri mu nama cyangwa bari mu biganiro umuntu ufite mikoro yambaye ijire afite icyo ashinzwe buriya arikugira ubutumwa cyangwa mesaje agenera ababo arikubwira.

Icyumba ni cyiza cyo kuraramo, kirimo ibikoresho byose ushobora kuba wakifashisha, mu gihe ugiye kuryama, mu gihe ubyutse, hakaba ari ahantu heza, hagaragara neza.

Inyubako nziza cyane itanga amacumbi kandi ikaba yafasha abayigana ikaba ifite ahantu heza haba aho kogera ibyumba byiza cyane.

Ahantu heza ho kwidagadurira haba ku bakuru no ku bana ukahasanga amazi meza yo kuba wakoga igihe ushaka kuruhuka na none ukaba wabona icyo kurya n'icyo kunywa mu buryo bworoshye.

Intebe ziri hanze zicarwaho n'abaje bagana aho hantu akaba ari ahantu hasa neza heza. Hari ibikenerwa byose ku buryo wumva wishimye.

Icyumba cy'uruganiriro hakaba hakorerwamo inama zigiye zitandukanye, haba abayobozi ndetse n'abaturage biga ku cyakorwa ku mishinga yabo, hakaba harimo amazi yo kunywa ndetse n'intebe.

Inzu ibonekamo aho gutekera ibiryo byawe, hakaba harimo ibikoresho nkenerwa ushobora gutekesha ,cyangwa ushobora kwifashisha.

Aho ushobora gukarabira mu gihe ukeneye kuba wajya gufata amafunguro, cyangwa uvuye mu bwiherero, hakaba hari ibikenerwa byose nk'amasabune, ndetse n'utwo kwihanagurisha.

Ishami rito rishinzwe gutanga ubwishingizi ku bantu cyangwa ibintu, rikaba rinatanga ku batwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba warisanga sonatibe.

Inyubako irimo ibikorwa bigiye bitandukanye, hakaba habonekamo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku baturage no ku binyabiziga bigiye bitandukanye.

Umuturage uri gufasha undi mukuba yamwereka uko gahunda zikorwa, mugihe aje umugana amusaba kumufasha kubintu bigiye bitandukanye.

Imiryango iriho ibyapa bigaragaza ko aho ngaho hari ubucuruzi butanga ubwishingizi ku bantu benshi batandukanye hakaba hariho na nimero zabo ushobora kubahamagaraho mu gihe ubakeneye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari inzu irikorerwamo urwego rushinzwe ubwishingizi hakaba hari kandi n'ubusitani k'uruhande.

Icyapa kerekana ko hafi aho ngaho hari ikigo cy'ubwishingizi ku baturage ndetse no ku batwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye kikaba kiri mu majyepfo i Muhanga.

Inyubako ushobora gusanga ahakorerwa ibikorwa byo gutanga ubwishingizi kubagana aha hantu, bikaba byifashishwa mu buryo bwo kwishinganisha ibintu byawe mu gihe bigize ikibazo.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi kikaba kiri kwerekana ibikorwa gikorere hafi ahongaho kugira ngo abaza bagana bamenye icyo bakora.

Abakozi bakorera mu kigo gishinzwe kuba cyabikira abaturage amafaranga, berekana uburyo ki bagomba kwibikira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Uburyo bwateganyirijwe abaturage mu guhabwa inguzanyo z'ibinyabiziga kandi bwizewe kandi bunishingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko.

Ahantu hatangirwa ubufasha mu kubika amafaranga no kuyabikura mu buryo bwemewe kandi bworoheje kandi bufite umutekano wihariye.

Guhabwa ikaze muri iki kigo, kubakiriya baje bagana hano Kandi hakaba hakorerwa serivise nziza kandi zihuta.

Ikigo gishinzwe kubikira abaturage amafaranga ariyo kopedu, kikaba giherereye i Kabuga, kikaba ari ahantu hasa neza kandi babasha gutanga serivise mu buryo bwihuse.

Ishami ry'umutangoha rikaba riherereye Kicukiro ukaba wabasanga ku rubuga rwabo rugaragara aha hasi cyangwa ukaba wabahamagara kuri nimero itishyurwa igaragara hano.

Umukozi wa banke uri gufasha abaza bamugana mu kuba bakuzuza ibyangobwa byabo kugira ngo babashe kuba hari ibyo bakora, kandi bakabikora mu buryo bwiza.

Isoko ry'umugi wa Kigali, dusanga mu mugi rwagati, irimo ibintu bitandukanye, aho usanga abantu baza kuhakorera, baje kugura ibintu cyangwa baje kugurisha.

Isoko ry'ubucuruzi abaturage baba bahuriye hamwe, bakusanyije imyaka baje kuyigurisha , kugira ngo babashe kubona amafaranga.

Isoko ricuruza imyenda cyangwa imitako myiza cyane kandi ibyo byose bikaba bikorerwa inaha iwacu mu Rwanda ukaba wabihasanga ahantu hose hagiye hatandukanye.

Isoko rinini ry'iterambere rikaba rizifashishwa igihe abaturage bazaza baza bagana aho hantu kandi rigatuma hajyamo abantu benshi.

Abaturage benshi bagiye batandukanye, bari gucuruza ibyo kurya bikubiyemo imyumbati ndetse n'ibijumba kandi ayo mafunguro akaba akundwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda.

Isoko rinini cyane ricuruza ibintu bitandukanye ukaba wasangamo by'umwihariko ibijyanye n'amagi bikaba bihendutse cyane.

Isoko ry'ubucuruzi rikaba ririmo ibintu bitandukanye ahanini bikungawe ku muco w'u Rwanda, rikaba ricuruza imyenda y'ibitenge.

Abacuruzi bari gucuruza mu isoko rinini, bakaba bafite ibijyanye n'imboga n'imbuto, bimwe muri ibyo ngibyo hakaba harimo ibyo twifashisha turi gutunganya amafunguro.

Ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'imyenda yo kwambara y'abagore aribyo tuzi bita ibitenge. Ubucuruzi, bukaba ari ubucuruzi bwiza, bakaba habonekamo ibijyanye n'imyenda y'abadamu myiza kandi isa neza.

Umucuruzi ucuruza ibiryo biri mu bwoko bw'amasambusa, aya mafunguro akaba yifashishwa mu mafunguro yorohejwe, nko kuba wayarya saa sita na nimugoroba bikoroheye.

Isoko ry'ubucuruzi ririmo ibintu bigiye bitandukanye, usangamo ibiribwa byoroheje nk'inyanya n'intoryi n'ibindi ushobora kubona mu buryo bwihuse wakenera guteka.

Umucuruzi uri gucuruza ibiribwa bitandukanye hakaba harimo imbuto zikundwa na benshi nka avoka ndetse n'imineke n'ibinyomoro n'inanasi n'amaronji n'ibishyimbo.

Ubucuruzi bw'imbuto mu masoko atandukanye bukaba habonekamo amaronji hamwe n'avoka hamwe n'imineke.

Abaturage b'urujya n'uruza igihe bari kugenda mu mirimo yabo ya buri munsi baba abagiye gucuruza, baba abagiye muri gahunda zabo, baba abagiye mu kazi bose igihe bahuriye hamwe.

Isoko rinini cyane ricuruza ibyo kurya hakaba kakubiyemo karoti, amashaza ndetse n'ibitunguru abakorera muri iryo soko bakaba bishimira kuba bacuruza ibyo bicuruzwa.

Abaturage bari gucuruza ubucuruzi bujyanye no kuba bagurisha ibirayi, akaba ariho babonera amafaranga yabo yo kwita ku miryango yabo kandi akaba ari bwo buzima bwabo kandi bworoshye.

Isoko rusange rigurishirizwamo ibiribwa, aho aboroheje bashobora guhahira bakurikije amikoro yabo kandi bakabona ibyo bakeneye.

Abacuruzi bari gucuraza ibicuruzwa bitandunye. Harimo indagara, Harimo ibicuruzwa bindi byo kurya nk'amavuta kandi bakaba batanga ubwo fusasha. Bikaba bibafasha mubuzima bwabo bwa buri munsi.

Abakozi bari gufasha umuguzi mu kuba yakwishyura mu buryo bworoshye cyangwa ibicuruzwa bihari mu gihe gitoya kandi cyihuse.

Umunyamahirwe watsindiye ikinyabiziga cya moto. akaba yarayihawe n'ikigo gishinzwe itumanaho, ariryo MTN mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Abakozi bikigo cyitumanaho cya MTN bafasha abaturage mukuba bakwikorera ibijyanye niryo tumanaho muri telefone zabo.

Uburyo bwiza kandi bworoshye, bwo kuba wakwishyura ukoreshesheje ikoranabuhanga ariryo, mobayiro mani kandi bukaba bworoshye cyane,

Inzu abacuruzi bakoreramo bagatanga serivise yihuse ku baguzi b'itumanaho rya mtn. Bikaba byorohereza abantu mu kuba bakwigurira cyangwa bagura.

Isoko rijyanye n'ubucuruzi hakaba harimo ibiribwa bitandukanye nka karoti ndetse n'intoryi by'umwihariko mu gihe ugiye kwishyura ukaba wakishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Ikigo gishinzwe iby'itumanaho, kitwa Emutiyene, kikaba kiri gufasha abaza babagana, mu kuba bakemura ibibazo byabo, baba bafite...

Inzu ntoya yifashishwa mu gutanga serivisi zijyanye n'itumanaho, iki kigo kikaba gishinzwe guha abaturage cyangwa abaza bakigana mu buryo bwihuse.

Ikigo gishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda kikaba kiri gufasha abaturage bacyo mu kubagana cyangwa mu kubafasha mu bindi bintu badasobanukiwe.

Inzu itangirwamo ubufasha ku bintu bitandukanye harimo iby'ikoranabuhanga, ibyo bikaba byorohereza abaturage mu kuba babasha kuba bakora ibyo bashaka bibegereye hafi.

Urupapuro ruriho imibare iranga umucuruzi rutangwa n'ikigo gishinzwe itumanaho kugira ngo byorohereze umuguzi, kuba yakwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Abaturage baza bagana ikigo cy'itumanaho cya MTN, mugihe hakeneye kuba babereka uko bikorwa cyangwa uko bakwifashisha mugihe bari gukoresha iryo tumanaho.

Urubuga rukorerwaho igura n'igurishwa ry'ibikoresho, byaba ibya eregitoronike n'ibikoresho rusange, byaba ibyo mu nzu, ibyo abantu bakenera ndetse n'impano zitandukanye.

Ibinyabiziga byifashishwa mukoherereza cyangwa kuzana, abakiriya babo kubyo babatumye bikaba bifasha, kuba byabageraho hakiri kare kandi byihuse.

Umukozi w'ikigo cya vuba vuba gishinzwe kuba cyageza abaturage cyangwa abakiriya babo ho ibintu babatse, akaba akoresha ikinyabiziga cyihuta kugira ngo ibyo babatse bibagereho vuba.

Inzu ijyanye no gukorerwamo ubudozi bw'imyenda bakaba bagurisha, bakanacuruza, bakanigisha kur'uwo mwuga kandi bakabimenya neza.

Abakozi bakorana n' ikigo kitwa vuba vuba, kikaba kibagezaho ibyo kurya cyangwa ibindi bintu ushobora kuba watumije, bakaba babikugezaho muburyo bwihuse Kandi bwizewe.

Abakozi b'ikigo kitwa kasha igihe bajyanye ibicuruzwa byabo kubabibatumye kandi babikora byihuse muburyo bwihuse bakoresheje ikinyabiziga cyabo.

Iduka rya kijyambere rigurishirizwamo imyenda hakaba hamurikirwamo n'imideli igiye itandukanye kandi inogeye ijisho kuri buri wese.

Isoko ushobora gusangaho ibicuruzwa byinshi bitandukanye kandi bihendutse, ku giciro cyoroheje, ushobora gutumiza bivuye hanze, bikakugeraho mu Rwanda, kandi ku gihe gito.

Abakozi bafasha abantu kuba bazana ibicuruzwa babashije gutumiza kandi bakabizana mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Isoko ryemewe kandi ryizewe rya Kimironko rikaba ribonekamo ibiribwa byose byose ndetse n'ibiro byabyo, ukaba ukeneye kubibona bakabikuzanira ku buntu kandi mu buryo bwihuse.

Ikigo gishinzwe gutumiza ibintu kitwa vubavuba kikaba gikorera ku gihe, aho waba uri hose bakaba bakugezaho ibyo watumije cyangwa ibyo wabasabye.

Inzu nziza irimo ibikoresho byifashishwa mu gikoni kandi bikaba ari byiza, bikorohereza abaza cyangwa abari gukoresha aho hantu.

Inzu igurishwa mu Rwanda ikaba iboneka muri Kigali akaba ari inzu nziza ibonekamo intebe, utubati twiza cyane ndetse hakaba hari n'akayaga keza n'amarange meza.

Icyumba cyo kuraramo cyiza kandi kirimo ibikoresho nkenerwa byose: nk'amashuka, ndetse n'imisego myiza; hakaba hasa neza kandi hafite isuku mu gihe uryamye.

Icyumba cyo kuraramo kiza kandi gihendutse kiri mu mujyi wa Kigali, kikaba gifite ahantu heza waruhukira kandi ukumva urisanzuye, ukaba wakibona ku mafaranga ahindutse cyane.

Inzu irimo ubwogero bwiza kandi busa neza, bufite isuku ukaba wabubona ku mafaranga ahendutse kandi ukabukodesha mu gihe cy'amezi.

Inzu nziza kandi isa neza, ikaba irimo ibyo wakenera byose mu gihe uri kuyikoresha, ikaba ifite umwanya munini, kandi ikaba ihendutse cyane ukaba wayisanga i kanombe.

Icyumba cyiza kandi gisa neza gisukuye, kirimo ubwogero bugera muri bune, aho hantu ukaba wahasanga ku gisozi, akaba ari mu mugi wa Kigali.

Icyumba cyiza ushobora kuraramo ni mugoroba kandi hakaba harimo aho ushobora kubika ibintu byawe nko mu kabati, kikaba gihendutse, ukaba wahabona mu mujyi wa Kigali.

Inzu muri kigali igurishwa ikaba iri ahantu heza hanini kandi hari umutekano uyikeneye wese akaba ashobora kwifashisha urubuga rwabo cyangwa akaba yabahamagara kuri nimero ziri hasi aha.

Inzu nziza ushobora kwakiriramo abashyitsi bawe cyangwa umuryango wawe, ikaba iri ahantu heza ifitemo ibyumba bigera muri bine, ushobora kuyisanga Kigali, Gisozi niho iherereye.

Inzu iherereye i kigali mu Rwanda Kabeza, isa neza ifite amarangi meza, amadajya, n'amakaro meza cyane.

Inzu wakenera ushaka gucumbika, ukaba wayibonamo ibintu byinshi bitandukanye nkaho gutekera, nkaho waganirira n'abashyitsi bawe, ikaba iri ahitwa Kabeza.

Inzu nziza, iri ahantu heza, hagaragara neza, ushobora gushyira ikinyabiziga cyawe mu gihe utashye, ikaba igurishwa, ukaba wayisanga aho bita Kimironko.

Inzu nziza kandi igaragara neza isize amarange meza cyane, ikaba ifite umwanya munini wo kuba washyiramo ikinyabiziga cyawe ndetse ikaba ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri ku mafaranga make cyane.

Inyubako ndende kandi nziza irimo ibintu byose bikenerwa; ikaba ikorwa nk'amacumbi yo kuba wararamo kandi ikaba ifite n'ahantu hanini hashobora kujya ikinyabiziga.

Inzu yo gukodeshwa nziza cyane, ifite hanze indabo zigaragara neza, hakaba habonekamo ibyumba bibiri byo kuraramo, ndetse n'ubwogero bubiri bwo kogeramo ukaba wayibona aho bita ku Gisozi.

Inzu nziza kandi nini, ifite ahantu heza ushobora kuba washyira ikinyabiziga cyawe, iyo nzu ukaba wayibona mu Rugando.

Inzu ikodeshwa i Remera, ikaba ibonekamo icyumba kimwe n'ubwiherero bukaba harimo salo, hakaba harimo igikoni, ikaba igura miliyoni magana abiri.

Inzu nziza yo kuraramo isa neza ifite amadirishya meza ifite hanze hanini ikaba iherereye i Kigali Kanombe ikaba ifite ibyumba byo kuraramo bine ikaba ifite ubwogero butatu ikaba ihendukiye buri wese.

Inzu nziza kandi isa neza iri ahantu heza, ikaba ifite ibyumba bitanu ndetse n'ubwogero butanu, ukaba wayibona Kibagabaga kandi ku mafaranga make cyane.

Umukozi ushinzwe kugura cyangwa kugurisha amazu mu Rwanda akaba ari kwerekana uko asa n'uko agaragara imbere n'inyuma kandi abaza bayagana bakayakunda.

Uburyo bworoshye kandi bwihuta bugaragaza uko wagura cyangwa wagurisha, uko wakodesha ibintu byawe wifashishije runo rubuga ruri hano.

Inzu igurishwa muri kigali kanombe ikaba arinzu nziza ifite ubwirinzi imbere kandi ikaba ifite ibyumba bine hamwe na dushe eshatu akaba arinzu nziza cyane iri ahantu hasa neza.

Inzu nziza cyane igurishwa, ikaba irimo ibyangombwa byose, hakaba habonekamo ibyumba bitatu n'ubwogero bune.

Inzu igurishwa nini kandi nziza ikaba irimo ibyumba bitatu ukaba wayisangamo ubwogero bugera muri bubiri, akaba ari inzu nziza cyane.

Inzu nziza kandi igezweho, ifite ahantu heza cyane, hakaba wabona aho guparika ikinyabiziga cyawe, kandi ku mafaranga makeya ahendutse ukaba wayisanga i Kanombe.

Inzu Igurishwa irimo ubwiherero butatu, ikaba iri kimironko kandi ikiba igurishwa amafaranga ibihumbi maganane.

Inzu ikodeshwa ikaba ibonekamo icyumba kimwe n'ubwiherero bumwe, akaba ari inzu nziza ukaba ushobora kuyibona ku mafaranga make cyane, ikaba iboneka muri Kigaki -Kacyiru.

Inzu nziza kandi iri ahantu heza, ikaba ifite ibintu bitandukanye n'aho ushobora gushyira ikinyabiziga cyawe, ukaba ushobora kuyibona mu Kagarama kandi ku mafaranga make cyane.

Inzu nziza kandi iri ahantu heza ikaba ifite jaride nziza n'ikirere kiza ukaba wayibona aho bita Kanzenze kuri miriyoni cumi na zirindwi.

Icyumba cyo kuraramo cyiza kandi gihendutse. Kikaba kiri ahantu hasukuye kandi heza cyane, ukaba wakibona ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inzu nziza kandi ifite imiryango myiza iri ahantu heza hegereye ibikorwaremezo biriho nk'amashanyarazi, ikaba igurishwa ibihumbi magana atandatu mu gihe mu gihe wifuza gukodesha

Inzu igurishwa muri Kigali i Kanombe, ikaba ari inzu nini ifite imiryango myiza, ifite amadirishya meza, ifite ubwogero hanze, ifite n'umwanya ,munini ushobora kujyamo ikinyabiziga.

Isoko ricuruza ibijyanye n'imbuto harimo inyanya, karote, tungurusumu, imiteja ndetse n'ibindi bintu byose.

Ubucuruzi bwiza butandukanye burimo indabo, amatara yo mu rugo, hakaba harimo ubukomo, amasahane ndetse n'ibindi.

Inyubako ndende irimo ibikorwa bigiye bitandukanye haba ibicuruza imyenda, haba ibicuruza ibikoresho bya elegitoronike, haba ibicuruza amasahane byose ukabibonera hamwe.

Isoko ry'ubucuruzi rifasha abantu kuba babona ibintu bitandukanye, cyane cyane kuba babonamo nk'amasakoshi y'abagore.

Isoko ricuruza cyangwa rigurisha imyenda, cyane cyane iy'abagabo ndetse n'iy'abagore, hakaba harimo amakote yo kwambara, ndetse n'amasakoshi meza y'abagore.

Abaturage bari kugana isoko ririmo ubucuruzi bagiye butandukanye, bari kugura ibikoresho byaba ibyo mu gikoni cyangwa ibyo mu nzu.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri muto afite ikoranabuhanga mu ntoki ziwe yambaye umupira w'umutuku ku maso he urabona ko yishimye ari guseka bisa nk'aho hari ibyo ari guhererekanya n'undi muntu bari kumwe.

Abaturage batandukanye bari guhahira mu isoko rinini, rikaba ririmo ibintu bigiye bitandukanye ahanini ku bijyanye n' imyenda y'abadamu harimo nk'amashakoshi ndetse n'ibindi.

Umuturage uri kwishyura akoresheje icyuma cyabuhariwe mugufasha abantu mu kuba bakwishyura ibicuruzwa bavuye kugura, urugero nko kwishyura inanasi.

Ubucuruzi bukorerwa ahantu hahurira abantu benshi, hakaba hagera ibicuruzwa bitandukanye hagaragaramo nk'imyenda y'abagabo yo kwambara amashakoshi hamwe ndetse n'ibindi byinshi.

Umuturage uri kugura imbuto hakaba harimo inyanya, ibitunguru, kokombure hamwe n'amashu bikaba bikungahaye ku ntunga mubiri.

Abacuruzi bacuruza ibikoresho byo mu rugo, bimwe muri byo hakaba harimo : amasafuriya, amasorori, ibikombe ndetse hamwe n'ibindi bitandukanye.

Isoko ry'ubucuruzi rinini cyane ririmo ibintu byinshi ukaba wasangamo ibijyanye no gucuruza imyenda, ibijyanye n'ibyo kurya.

Ubucuruzi bw' imyenda y'abana batoya cyangwa abakuru, ugasangamo n' imyenda yabakiri bato cyane, Kandi myiza cyane ifite n' amabara atandukanye.

Isoko rusange ryorohereza abagore mu guhaha imyenda, yaba imiremire cyangwa imigufi mu buryo bugaragarira buri wese.

Isoko rigurisha ibintu bitandukanye, hakaba habonekamo amavuta yo kwisiga, hakaba habonekamo amashakoshi y'abagore ndetse n'inzitiramibu.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, yaba ibyo kurya, yaba ndetse n'ibyo kunywa, hakaba hakubiyemo n'ibyo umuntu ashobora gukoresha mu buzima bwe bwa buri munsi kandi bikaba biri ahantu heza hafite n'isuku.

Ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza umuturage ashobora gukoresha mu gihe agiye kwa muganga bikaba bishobora kumworohereza mu kuba yabasha kubona imiti no kwishyura.

Abakozi bakora mu kigo kirebana n'ubwishingizi mu kwivuza, bakaba bari gufasha ababagana mu bijyane nuko babona ubwishingizi buryo bwihuse kandi bwiza.

Umuturage ufite ubwishingizi ,bumufasha kwishyura, mugihe arwaye, mugihe agiye kwishyura imiti agiye nko kwivuza kwa muganga, ubwo buryo rero bukaba ari bwiza...

Urupapuro rugaragaza umunyamuryango muwishyuye ubwisungane mu kwivuza, hakaba hariho ifoto ndetse na kashe yemeza ko yishyuye ubwo bwishingizi.

Ikigo gitanga ubwishingizi mu kwizigamira amafaranga, mu bikorwa byawe bya buri munsi, ubwo bwishingizi bukaba bugufasha kuba wahabwa n'inyungu bitewe n'amafaranga watanze.

Abaturage bari kwivuza mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bakaba bafashwa n'abakozi bo kwa muganga mu gihe bashaka kuba babona ubuvuzi bwiza.

Isoko rinini ry'ubucuruzi hakaba hazamo abantu benshi batandukanye baje kugura ibijyanye n'imbuto n'ibyo kunywa hamwe n'ibyo kurya.

Isoko rinini ririmo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibikoresho byo ku ishuri, hakaba harimo kandi n'ibyapa byereka abaguzi, aho bashobora kubona ibyo bifuza cyangwa ibyo bashaka.

Ishami rishinzwe ubucuruzi, kandi rinini cyane rifasha abaguzi kuba bagura bisanzuye mu gihe bakeneye ibyo kurya, bakaba babibona mu buryo bworoshye cyane.

Isoko ry'ubucuruzi rinini cyane rifasha abaguzi kuba babona ibyo bari kugura mu buryo bworoshye kandi bigakomeza kwihutisha iterambere.

Isoko rinini ririmo ibintu bigiye bitandukanye haje abantu kugura ibintu bijyanye n'amasabune yo kumesesha ndetse n'ayo gukaraba.

Isoko ricuruza ibyo kurya cyane cyane hakaba habonekamo imbuto nziza nka voka, nk'inyanya, nk'amacunga n'amaronji.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye bikungahaye ku mboga, hakaba harimo ibibiringanya hamwe n'amashu, mu gihe abaza babigana bakabibona mu buryo bworoshye.

Isoko ry'imboga n'imbuto ku baguzi baje kugura hakaba harimo ibiribwa bitandukanye nk'amakaroti, kokombure, n'amashu furere, na borokori.

Isoko rinini ririmo ibintu bitandukanye by'umwihariko harimo igice kijyanye n'ibyo kumesa hakaba harimo amasabune yo gukoresha n'ibikoresho ushobora gusanga mu bwiherero.